Airtel ni ikigo cy'itumanaho gikorera mu gihugu cy'u Rwanda, uyu akaba ari umujeti wabo utanga serivisi, aziha abakiriya ba Airtel bityo bakabasha gutumanaho n'abantu batandukanye.

Umukozi w'ikigo cy'itumanaho cya MTN, akaba yicaye iruhande rw'umuhanda ategereje abakiriya baza bamugana bakeneye serivisi zijyanye n'itumanaho bityo akabona uko abafasha.

Umukozi wa sosiyete y'itumanaho MTN, akaba yambaye impuzankano iri mu ibara ry'umuhondo ndetse ari munsi y'umutaka w'iki kigo cyitumanaho, ategereje guha abakiriya serivisi baje bamugana.

Umuhanda wa kaburimbo mugari hirya yawo hakaba hari umutaka wa sosiyete ya MTN hakaba hari n'umuntu uri gutanga serivise aha abantu amayiniti, hirya y'uwo muhanda hari inyubako z'ubucuruzi zitanga serivise z'ibicuruzwa bigiye bitandukanye.

Inzu z'ubucuruzi zitandukanye hakaba hari abantu benshi bari kuhagana kugira ngo bahabwe ubufasha bw'ibyo bakeneye, hanze hari umutaka w'umwajenti ukorera ikigo k'itumanaho cya MTN uri gutanga serivisi.

Akazu k'ikigo cy'itumanaho cya MTN hakaba harimo umwagenti ushinzwe gutanga serivisi z'itumanaho ku bakiriya b'iki kigo cy'itumanaho, ni byiza rero kubigana kuko wabona serivisi wifuza kandi byoroshye.

Bamwe mu bakozi b'ibigo by'itumanaho bashimirwa cyane kuko batanga serivisi zihuse ku baturage, bitabaye ngombwa ko umuturage agana ku cyicaro kuko nabo baramufasha bikagenda neza.

Bimwe mu bigo by'itumanaho bikorera mu Rwanda harimo Airtel ndetse na MTN bikaba bifasha abaturarwanda kubona serivisi zitandukanye zirimo no kubona amafaranga.

MTN Rwanda ni ikigo cy'itumanaho, giha serivisi abaturarwanda benshi batandukanye zijyanye n'itumanaho. Aka kazu kabari kamwe mu nzu z'iki kigo cy'itumanaho na ko gatangirwamo izo serivisi.

Koperative ihinga inanasi, ikaba yasuwe n'abayobozi batandukanye kugira ngo babasobanurire uburyo ki bahinga izi mbuto ndetse babe babishishikariza n'abandi bose.

Koperative ihinga urabona ko bishimiye umusaruro wabo hakaba barimo baranika ibigori ahabugenewe kugira ngo byume bagurishe babashe kubona ku mafaranga bajye gutunga imiryango yabo.

Abaturage benshi bicaye munsi y'ihema bambaye imyambaro iri mu mabara atandukanye harimo abagabo, harimo abagore, bahurijwe hamwe no kwiga ku buryo bakomeza kuzamura amakoperative atandukanye.

Koperative ihinga inanasi ikaba yasuwe n'abayobozi bo mu nzego zitandukanye kugira ngo baze kureba ubwiza n'ubudasa bw'ibyo bakora, hari umugabo ufashe mikoro urimo urabashimira ibyo bakora.

Koperative ishinzwe gutunganya imbaho ikazikoramo ibikoresho bitandukanye, ushobora kujyayo bakaguha intebe, bakaguha ameza, bakaguha igitanda ndetse n'ibindi bitandukanye.

Inzu irimo abadamu babiri bari kudoda ubona ko imbere yabo hari imashini zidoda imipira ndetse n'indodo ziri mu ibara ry'ubururu, iyi nyubako ikaba ikikijwe n'ibirahure.

Inyubako nziza, ubona ifite isuku, irimo amatara ari kwaka, akaba ari muri banki aho abantu bajya, bagahabwa serivisi zijyanye no guhabwa amafaranga.

Abantu benshi batandukanye barimo ab'igitsina gore ndetse n'ab'igitsina gabo, bakaba bahuriye mu murima, iyi akaba ari koperative igamije guhinga ndetse no kongera umusaruro.

Koperative y'abishyize hamwe, urabona ko bejeje umusaruro mwinshi cyane w'ibigori kubera guhuza imbaraga zabo, iyi koperative rero ikaba yarageze kuri uyu musaruro kubera gushyira imbaraga hamwe.

Bare cyangwa se akabari hakaba harimo intebe abaje bahagana bicaraho bagasabana, bashobora kwicara muri benshi cyangwa se ukicara uri umwe byose serivisi ushaka barayiguha.

Umucuruzi uri muri butike ye akaba acuruza ibintu bitandukanye, afitemo ibirungo, afitemo ibyo kurya nka kawunga, imiceri, afitemo n'ibindi bikoresho bitandukanye.

Resitora cyangwa se alimentation bacuruza ibyo kunywa harimo icyayi, gikoma ndetse n'ibindi hakaba harimo n'amandazi, uramutse ufite ikibazo ukagana aha, wahabwa ubufasha bujyanye n'amafunguro.

Iyi ni butiki ikaba irimo amoko y'imyambaro atandukanye, imyambaro ikaba ifite amabara agiye atandukanye oranje, ubururu, icyatsi, umutuku ndetse n'umukara.

Amakaramu akoreshwa mu kwandika harimo afite ibifuniko by'ubururu, icyatsi ndetse na oranje, ibi bikaba bifasha abanyeshuri ndetse n'abandi bayobozi cyangwa abandi babikoresha mu kwandika.

Inzu y'ubucuruzi ikaba ikorerwamo ubucuruzi bw'ibicuruzwa bigiye bitandukanye hakaba harimo amacupa, harimo amazi, amacupa arimo amavuta bateka mu biryo, abantu bakarya bakagira ubuzima bwiza.

Butike icuruza imbuto hakaba harimo imyembe, amaronji, ibinyomoro. Izi mbuto ni ingirakamaro ku buzima bw'umuntu, ni byiza ko tuzirya kugira ngo tubungabunge ubuzima bwacu.

Amatureyi y'amagi akabara amatureyi ari ku tubati, akaba ariho amagi menshi agiye atandukanye nk'uko tubizi amagi ni ingenzi ku buzima bwacu kuko aduha intungamubiri zitandukanye zifasha umubiri kumera.

Iyo ugeze muri butike, ushobora gusangamo ibyo wifuza byose, yaba ibyo kurya, yaba ibikoresho byo mu nzu, yaba n'ibindi byose waba ukeneye, ni byiza rero ko nawe ufite igishoro, wajya ucuruza.

Imifuka ipanze ku murongo, iyi mifuka ikaba ipakiyemo ibirayi, ikaba igiye gushyirwa mu modoka kugira ngo ijyanwe kugurishwa ku bantu bakeneye ibyo kurya.

Urusengero rwubatse mu buryo bw'agacurama, akaba ari urusengero rw'Abakirisitu ba ADPER, aho bajya guteranira, buri gihe bafite amasengesho kugira ngo basabane n'abandi ndetse bumve ijambo ry'Imana.

Kiliziya cyangwa se urusengero, ahantu abantu bajya kugira ngo bakurikire ijambo ry'imana, abandi bajyayo kugira ngo bumve babohotse kuko gusenga imana ni ibintu bifasha cyane kandi bibohora benshi.

Abaturage batandukanye bicaye munsi y'ihema, imbere yabo hahagaze umudamu, wambaye ikote, akaba afashe indangururamajwi mu ntoki, arimo arabagezaho ijambo yabateguriye.

Inyubako ngari irimo abantu batandukanyebona ko bishimye banezerewe, bamwe bafatanye amaboko barimo barabyina rwose, iyi nyubako ikaba irimo amabara atandukanye ubururu, oranje, ikaba irimo n'amatara.

Inama yahurije hamwe abantu batandukanye harimo abazungu ndetse n'abirabura harimo na Musenyeri wambaye ingofero itukura, bakaba bahurijwe hamwe kugira ngo barebere hamwe uburyo bateza imbere Kiliziya yabo.

Abapadiri batandukanye harimo n'umuzungu umwe, bambaye imyambaro yabugenewe iyi myambaro ikaba iri mu ibara ry'umweru, abapadiri bakaba bafasha abantu benshi gukizwa kuko babagezaho ubutumwa bwiza cyane.

Urubyiruko rurimo igitsina gore ndetse n'igitsina gabo bari imbere kuri alitari, barimo barataramira abakirisitu baje kumva ijambo ry'Imana kugira ngo bishime basusuruke neza.

Icyumba cya hoteli ubona ko gifite isuku rwose kirashashe neza, iruhande rwayo hari intebe iriho n'ameza, hanze hari ibiti bitanga akayaga keza.

Hoteli yubatse mu buryo bwa etaje, hanze yayo hakaba hari ubusitani ndetse na pisine abantu basuye iyi hoteli baza bakaruhukiramo bakoga kandi bakishimana bari kumwe n'ababo cyangwa se bakundana.

Icyumba cyiza gisize ibara ry'umweru, hakaba hariho n'amarido ari mu ibara ry'umukara, imbere hari intebe ndetse n'imifariso yo kwicaraho, hanze hari ibiti bitanga amahumbezi ku bari muri iyo hotel.

Inyubako isize ibara ry'umuhondo, ikaba irimo amafuteye, hakaba harimo akabati gateretseho televiziyo, hejuru hakaba harimo n'ishusho y'ifoto, iki cyumba kikaba gisa neza cyane.

Iyo ugeze mu byumba byo mu mahoteli, usangamo ibintu byose by'ibanze bishobora kugufasha, haba igitanda, haba ubwogero, haba intebe zo kwicaraho, haba televiziyo yo kureba n'aha ngaha rero harimo ibyo bikoresho byose.

Ni kuri hoteli, hanze y'iyi hoteri hakaba hari pisine cyangwa se ubwogero, abantu baje gusura iyi hoteri baruhukiramo kugira ngo bivure amavunane mu mubiri wabo.

Hoteli hanze yayo hari ubusitani, hari amapoto y'insinga z'amashanyarazi, hari pisine cyangwa se ubwogero abaje bagana hoteli bogeramo bityo bagasabana bakishima kandi bakumva bamerewe neza n'ubutaha bazagaruke.

Icyumba kiza gishyize irangi ry'umuhondo, hakaba harimo intebe hakaba harimo na televiziyo iri kunyuraho amakuru ndetse n'ikirahure abantu bo muri iyi nyubako bireberamo igihe bakeneye kureba ko bameze neza.

Sale nini cyangwa se icyumba cyo muri hoteli kirimo intebe nziza hakaba harimo n'ameza, ikindi harimo amarido meza cyane, amatara meza, hari n'isuku ihagije.

Ni muri hoteli, urabona ko hateguwe indyo nziza cyane, harimo imboga harimo, umuceri, harimo kawunga, ibi byose bikaba bigiye gushyirwa abakiriya b'iyi hoteli kugira ngo bafate ku mafunguro.

Iki ni icyumba kimwe cyo muri hoteri, hakaba harimo igitanda cyiza cyane kiri mu bigezweho, kikaba gishashweho n'amashuka ari mu ibara ry'ubururu, umweru, orange ndetse n'umutuku, iki cyumba kikaba gisize ibara ry'umweru.

Muri hoteri mbona hari intebe nziza abantu bicaraho mugihe bagiye kurya, iyo hoteri isakajwe n'amabati y'umukara, ikaba ikikijwe n'ibimera birebire bitanga akayaga keza kubari ahangaha.

Inyubako ifite ibyumba byiza, iki cyumba kigaragara kikaba kigizwe n'amabara y'umweru, amatara meza, ibitanda bishashe neza, amashuka meza, ibirahure, urugi rwiza.

Umugore uri mu cyumba kimwe muri hoteri isa neza, harimo intebe, harimo ameza, hakaba imbere ye hari ikirahure, akaba kandi ari kwitegereza ibyiza bitatse iyi hoteri kugira ngo azayirangire n'abandi.

Amahoteli ari mu rwanda hirya no hino biragoye ko wahagana ngo u ubureyo pisine kuko iyo abantu bahaze kurara mu byumba bajya hanze muri pisine, bakabasha koga no kuruhuka no gufata akayaga.

Hoteli zitandukanye ziba zifite ibikoresho byose by'ibanze mu byumba kuko iyo umukiriya aje akenera byinshi, bimwe mu bikubiye muri ibyo byumba haba harimo gitanda, intebe ndetse na dushe.

Icyumba cyiza, gishashe neza, kiriho amashuka meza, gifite akabati, gifite amatara meza, gifite amarido meza. Aha kaba ari muri hoteri, hanze yayo hakaba hari ibiti byiza bitanga akayaga.

Intama ni inyamaswa yororerwa mu rugo, ikaba yorerwa hamwe n'amatungo yandi nk'ihene, inka ndetse n'inkwavu, intama kandi itanga amafaranga ku bayorora, igatanga n'inyama ku bazirya.

Mu ntara y'Iburasirazuba ni hamwe mu hantu akunda kwera ubwoko bw'ibitoki bitandukanye, ibi bikaba byinjiriza abaturage amafaranga ndetse bagakuramo n'ibyokurya bitandukanye nk'imineke n'ibindi.

Umuhanda ukikijwe n'inyubako z'ubucuruzi ndetse n'abantu, aha hari imashini idoda imyenda ndetse n'ameza aterekwaho ibikoresho bitandukanye.

Ahazwi nko mu isoko uhasanga imyambaro y'amoko agiye atandukanye, aha hakaba hagaragara amashuka, amapantaro, ibikapu ndetse hari n'umugabo waje kwihahira kugira ngo ashyire n'umuryango we.

Isoko ririmo imyambaro igiye itandukanye amapantaro, amashati, amajipo, amakanzu. Hakaba harimo urujya n'uruza rw'abantu, baje kwihahira kugira ngo bambare baberwe.

Ihene ebyiri zikaba ziziritse mu kiziriko kimwe umuntu akaba azijyanye ku isoko kugira ngo ahabwe amafaranga, nawe abashe kwikenura mu bibazo bimwe na bimwe cyane cyane ibijyanye n'amafaranga.

Iyo ugeze mu masoko atandukanye usangamo ibintu byinshi bitandukanye nk'imyambaro ibyo kurya ibyo kwambara ndetse n'ibindi byinshi, ni byiza ko witwaza amafaranga kuko ushobora kubona icyo ukeneye ukaba wagihaha.

Resitora ubona ko ikeye cyane isize amabara atandukanye umuhondo, umweru, hakaba harimo ameza abantu bariramo ndetse n'utubati ndetse na firigo zirimo ibyo kurya bigiye bitandukanye.

Mu gihugu cy'u Rwanda iyo ugeze muri hoteli cyangwa se moteri uhasanga serivisi nziza, usanga isuku. Aha naho urabona ko hari isuku, harakeye, hasize amarangi meza, ni byiza cyane rwose.

Bamwe mu bantu benshi bakunze kugana amaresitora kugira ngo bafate amafunguro yabo, rero ibi bikaba biborohereza kuba batakaza umwanya wabo bajya guteka kuko n'ubundi ibyo batekaga babibona hano muri aya maresitora.

Resitora aho abantu bajya bakarya, bakanywa bakishima mu gihe cya wikendi, harimo abakobwa babiri bambaye amakanzu y'umweru, iyi resitora ikaba irimo amatara ari kwaka.

Resitora cyangwa se uburiro, aho abantu bajya igihe bashonje, bakabasha gufata kamwe cyangwa se bagafata amafunguro, bakarya bakongera kugarura ubuyanja kandi bakumva bishimye.

Bimwe mu bikorwa remezo byiza cyane ushobora gusanga mu gihugu cy'u Rwanda harimo n'amaresitora, amaresitora akaba afasha abantu igihe bakeneye serivisi zijyanye n'ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa.

Ikinyabiziga cya moto, ni kimwe mu byinjiriza abantu benshi kuko iyo umumotari yatwaye umugenzi, umwe, babiri, batatu na we abona amafaranga amufasha, mu gukemura ibibazo bitandukanye.

Moto ni igikoresho gitunze abantu benshi mu Gihugu cy'u Rwanda ndetse n'imahanga, aha hakaba ari umumotari uhetse umugenzi uri kugenda mu muhanda wa kaburimbo, akaba yishimiye ko abonye uwo atwara kuko bimuha amafaranga yo gutunga umuryango we.

Moto ni kimwe mu bikoresho bikomeje kuzamura ubukungu bw'Igihugu ndetse n'ubw'imiryango kuko iyo umumotari akora uyu mwuga abona amafaranga yo kumutunga no gutunga umuryango we.

Ikinyabiziga kizwi ku izina rya moto, gifite puraka iri mu ibara ry'umuhondo, umuntu atunzeho akaboko, bigaragare ko ari kugaragaza ibyiza byayo kugira ngo ibashe kujya ku isoko.

uUmuhanda munini wa kaburimbo, hakaba harimo umugabo uhetse undi ku igare, bakaba bari kuzamuka kandi bishimiye iki gikorwa leta yabagejejeho nk'abaturage.

Umumotari uri kuri moto akaba ahite gaze ayishyiriye umuryango we kugira ngo na bo bacane kandi bagendane n'ikerekezo Leta ishaka kuko iri kurwanya abantu bacana ku mbabura.

Umumotari uhetse umugenzi uri mu muhanda wa kaburimbo, akaba ari kumotara kuko bimwinjiriza amafaranga kandi akabasha gukuramo n'andi mafaranga yo gukemura ibibazo aba afite.

Polisi y'u Rwanda idushishikariza gutwara ibinyabiziga tutanyoye kubisindisha kuko bishobora guteza impanuka mu muhanda, uyumotari nawe umupolisi akaba amuretse kubera ko abonye nta kibazo afite.

Moto cyangwa se imodoka ni bimwe mu binyabiziga bitanga serivisi zikomeye mu gihugu cy'u Rwanda, aho bikura abantu ahantu hamwe bibajyana ahandi, rero abagenzi bishimira serivisi iyo bayibahaye neza cyane bivuye ku batwazi b'ibi binyabiziga.

Umugabo uri ku igare ahetse amajerekani akaba ari kunyura mu muhanda wa kaburimbo, inyuma ye hari abandi bantu ndetse ku ruhande rw'umuhanda hari ibiti biwukikije.

Ibitoki ni kimwe mu biribwa bitunze abanyarwanda benshi, bishobora kuvamo imineke cyangwa se ibiryo byo kurya, umugabo ubihebye akaba abihetse ku igare, ari kugenda mu muhanda w'ibitaka, hakurya y'umuhanda hari ikigo cy'amashuri.

Igikoresho cya moto ni kimwe mu bitunze abantu benshi kuko usanga umumotari amotara, igihe avuye mu kazi nawe ugasanga yabonye amafaranga amufasha kwiteza imbere no gukemura ibibazo bimwe na bimwe.

Ikinyabiziga cya moto, ni kimwe mu bitunze abanyarwanda benshi kuko umumotari atwararaho abagenzi na we akabona amafaranga atunga umuryango we. Ikindi kandi yinjiriza igihugu, binyuze mu misoro.

Umunyonzi uhetse abagenzi, abanyonzi na bo ni bamwe mu batanga serivisi zo kuvana abantu ahantu hamwe babajyana ahandi, iki gikorwa rero ni byiza ko gikorwa kandi umuntu ugikora akaba agikunze kugira ngo akuremo inyungu ihagije.